Inyubako y'ubucuruzi isize amarangi y'umweru, ubururu ndetse n'umuhondo. Iyi nyubako irimo ibicuruzwa by'amoko agiye atandukanye byifashishwa n'abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Inyubako nini isize amarangi y'umukara ndetse n'umuhondo, ishushanyijeho amabara meza. Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ndetse iriho inzugi z'ibirahuri.

Ifumbire mvaruganda ituma ibihingwa bikura neza kandi bigatanga umusaruro mwiza, iyo wayikoresheje neza iguha umusaruro.

Ubuhinzi bugezweho bw'imboga, aho bavomerera ndetse bakuhira, ubu buhinzi bugezweho kuko butanga umusaruro uhagije.

Ibikoresho by'isuku bitandukanye, harimo kandagira ukarabe ndetse n'ibase abantu bakoresha bakaraba kugira ngo birinde indwara zigiye zitandukanye.

Farumasi irimo imiti igiye itandukanye yifashishwa kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza, harimo imiti kandi abantu bakoresha bavura amatungo.

Farumasi irimo imiti itandukanye, harimo iyo abantu bakoresha ndetse n'iyo bakoresha bavura amatungo, iyi miti kandi irahendutse.

Igihingwa K'inyanya ni igihingwa gitanga umusaruro vuba iyo kitaweho neza, iki gihingwa kandi gikunze gutanga amafaranga kubera ko akenshi abantu bakoresha inyanya mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abayobozi bari mu murima w'ibigori, barimo gutera imvaruganda kugira ngo bizakure neza bishishe kandi bitoshye.

Inyubako isize irangi ry'umuhondo, umweru n'ubururu, iyi nyubako kandi irimo abantu bakora serivisi zigiye zitandukanye.

Ibigori iyo wabyitayeho biguha umusaruro ariko iyo wabihinze ntubihe ibyangombwa nk'ifumbire ndetse ntibibone imvura nta musaruro uhagije bitanga.

Amasaka ni igihingwa cyifashishwa mu gukora ibintu bitandukanye, hari abagikoresha bashyira mu mutobe maze bikabyara inzoga.

Igihingwa k'inyanya ni igihingwa gitanga umusaruro vuba ndetse n'amafaranga, iyo wagihinze uko bikwiye ukakivomera ndetse ukagishyiraho n'ifumbire gitanga umusaruro vuba.

Igihingwa cy'imyembe ni igihingwa abantu bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi, kugira ngo babone amafaranga, iyo uhinze izi mbuto bituma ubona amafaranga vuba.

Ipapayi ni urubuto rwifashishwa n'abantu batandukanye kugira ngo bagire ubuzima bwiza, iyo uriye uru rubuto bituma wumva uguwe neza kandi umeze neza.

Igihingwa cy'ikigori ni igihingwa cyifashishwa mu buzima bwa buri munsi kugira ngo abantu bagikoreshe babone amafaranga ndetse n'umusaruro, iki gihingwa kandi ni cyiza kuko gitanga amafaranga menshi.

Ubuhinzi bw'ibinyomoro ni ubuhinzi bwifashishwa n'abantu batandukanye kugira ngo babone umusaruro vuba. Ubu buhinzi kandi butanga amafaranga iyo wabukoze neza.

Imiti igiye itandukanye iri muri etajeri, harimo iri mu macupa y'umweru, umutuku, icyatsi ndetse n'umuhondo.

Imiti iri muri farumasi yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, uyu muti kandi abantu bawukoresha kugira ngo babashe gukira vuba.

Ubworozi bw'inkoko ni ubworozi butanga umusaruro, abenshi bavuga ko inkoko zitera amagi yifashishwa n'abantu batandukanye kugira ngo bagire ubuzima bwiza, amagi kandi avura indwara zitandukanye.

Abahinzi b'umuceri bari mu murima, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, ubururu, umweru n'umutuku, bari gusarura ndetse bishimye.

Abagore babiri bari kumwe n'umusore, bari gusarura ibihingwa bahinze. Bambaye imyenda y'umukara, umutuku, ndetse n'ubururu.

Abayobozi bahuriye ahantu kugira ngo baganire ku bikorwa bagiye gukora bijyanye n'igihingwa cy'umuceri, aba bayobozi kandi biganjemo abagabo ndetse n'abagore.

Umubyeyi uri kumwe n'umukobwa we bari mu murima bari kwita ku bihingwa, ikigaragara barimo barahembera ibishyimbo kugira ngo bizakure neza bitange umusaruro.

Umugabo uri mu murima w'imbuto ari kugenda azitaho, areba izifite ikibazo azikuramo kugira ngo zitanduza izindi, ni umurima uhingwamo ibihingwa bigiye bitandukanye.

gGkora umuganda, ni byiza kuko bifasha abantu gushyira hamwe bagakora igikorwa kigaragarira amaso ndetse bigatuma baganira ku bibazo biri muri sosiyete.

Ibirayi ndetse n'ibitoki byifashishwa n'abantu mu gihe bagiye kubiteka mu buzima bwa buri munsi, abenshi bavuga ko ibirayi biryoha kandi iyo ubitetse neza wumva wishimye.

Igihingwa k'imyumbati ni igihingwa kifashishwa n'abantu kugira ngo babone ubugari bwo guteka ndetse n'imyumbati, iki gihingwa kandi gitanga umusaruro mwinshi iyo kitaweho neza.

Ibiryo by'inkoko biri mu mifuka y'umweru ndetse n'icyatsi, bigaragara ko iyi mifuka yacitse mu gihe bari barimo barabitunda kugira ngo babigeze aho ubu bworozi bukorerwa.

Igihingwa cy'ibigori ni igihingwa gitanga amafaranga iyo cyabonye imvura gitanga umusaruro mwinshi ndetse kigatuma ubasha gukemura ibibazo bigiye bitandukanye.

Igihingwa cy'umuceri ni igihingwa kifashishwa n'abantu mu buzima bwa buri munsi kugira ngo babashe kubaho, iki gihingwa kandi gikoreshwa n'imbaga y'abantu benshi kuko gitanga intungamubiri zigiye zitandukanye.

Icyumba kinini kirimo ibiribwa bitandukanye harimo: umuceri, kawunga, amasaka, ibishyimbo ndetse n'ifu y'imyumbati.

Inyubako nini isakaje amabati y'umweru, mo imbere harimo imifuka y'ibiribwa, ari byo kawunga, umuceri ndetse n'ifu y'ubugari.

Avoka ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro, avoka kandi ni urubuto rwiza umuntu arya akagira ubuzima bwiza maze akumva aguwe neza.

Igihingwa cy'ibirayi ni igihingwa cyifashishwa mu buzima bwa buri munsi, iki gihingwa kandi gitanga umusaruro vuba iyo cyitaweho kigashyirwaho ifumbire maze ukakibagarira.

Igihingwa cy'ibigori, ni igihingwa cyiza, abantu bifashisha kugira ngo babashe kugira umusaruro ndetse ubuzima bwabo bube bwiza. Iki gihingwa kandi gifasha abantu.

Igihingwa cy'urutoki gitanga umusaruro, iki gihingwa kandi gitanga amafaranga mu buryo bwihuse kuko abahinzi benshi bakunda kugikuramo umusaruro vuba.

Ibiti birebire bitanga amahumbezi bigakurura umuyaga, ibi biti kandi bituma umuyaga utagira ibintu utwara cyangwa ngo usambure amazu.

Umugabo uri gukora ubuhinzi bw'ibinyomoro, yambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'icyatsi, ari ahantu hihishe ubona ko ari mu bihingwa bye.

Ikigo cy'amashuri cyubatse ahantu mu ishyamba, gisakaje amabati y'ubururu, iki kigo kandi kiri ahantu heza hari umuyaga n'amahumbezi, bituma abanyeshuri bahiga bumva bamerewe neza.

Ibihingwa byinshi bikunze gutanga umusaruro iyo byitaweho neza, igihingwa cya karoti ndetse n'intoryi ni ibihingwa byiza bituma umusaruro uboneka vuba.

Igihingwa cy'urutoki ni igihingwa gifasha abaturage, kubona umusaruro. Iki gihingwa kandi bagikuramo amafaranga, kubera ko ibitoki babigurisha maze bagakemura ibibazo byabo.

Ibiti byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, babikoramo imbaho zifashishwa mu gukora intebe ndetse bigakorwamo n'inkwi, abantu bacana kugira ngo babone ibyo kurya.

Ibinyomoro ni igihingwa gitanga amafaranga mu gihe gito, ibinyomoro kandi birinda indwara iyo ubikoresheje kandi ukabirya ku gihe.

Abahinzi b'intoryi bavuga ko zitanga umusaruro vuba, akenshi iyo uhinze iki gihingwa ukacyitaho biguha amafaranga bityo ukabasha kwiteza imbere.

Ikigo cy'amashuri gikikijwe n'indabo kiri ahantu heza cyane, iki kigo kandi cyigaho abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, iyo ikigo gifite isuku n'abanyeshuri bahiga bumva baguwe neza.

Abantu batandukanye bari gukora ubuhinzi bw'imbuto, harimo abagore ndetse n'abagabo, hirya hari umwana uhahagaze wikenyeye igitenge.

Inyanya ni igihingwa gitanga umusaruro kandi kigatanga n'amafaranga yifashishwa n'umuhinzi kugira ngo akemure ibibazo bigiye bitandukanye. Inyanya kandi zifashishwa mu guteka ibiribwa bitandukanye.

Ibiribwa bitandukanye harimo intoryi, pavuro, karoti byifashishwa mu gihe abantu bari guteka imboga kandi biryoha bitetse neza.

Indabo zirimo amabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi, zigaragara neza, ziri ahantu umuntu ashobora kwicara akumva aguwe neza.

Inyubako nini yubakishije amatafari ahiye ndetse isize n'amarangi y'umukara n'umweru, iruhande rwayo hateye indabo nziza ndetse n'ibiti bituma hagaragarara neza.

Intoryi, karoti ,pavuro ndetse n'ibirayi, ni ibihingwa abantu bakoresha mu gihe bashaka guteka, maze bakabirya ,iyo ubikoresheje neza bigira intungamubiri.

Imboga n'ibiribwa by'ingirakamaro, bifasha umuntu kugira ubuzima bwiza buzira umuze, ibiribwa birimo karoti, idodo ndetse na pavuro.

Igihingwa cy'urusenda gitanga umusaruro vuba kandi ntabwo gitinda kwera. Iki gihingwa kandi iyo ugihinze ubishyizeho umwete, ubona amafaranga wifashisha ndetse ukemuza ibibazo.

Ibitunguru ndetse n'amashu byifashishwa n'abantu batandukanye babiteka. Iyo utetse ibiryo udashyizemo igitunguru wumva hari ikintu kiri kuburamo.

Igihingwa cy'imyumbati ni igihingwa gitanga umusaruro vuba, iki gihingwa kandi kivamo ifu y'imyumbati, abantu bakayikoresha bayikoramo ubugari.

Imboga ni ingirakamaro kuko zifasha abantu kugira ubuzima bwiza, iyo bazikoresheje uko bikwiye. Karoti, inyanya, ibitunguru, ndetse n'imiteja, nabyo ni ingirakamaro.

Avoka ni igihingwa kiza gitanga amafaranga, iyo uyikoresheje neza ukakitaho bituma kiguha umusaruro mwiza kandi ukabasha gukemura ibibazo bimwe na bimwe.

Imyembe ni igicuruzwa gitanga amafaranga mu buryo butandukanye, hari abayikoresha nk'imbuto abandi bakayigurisha maze bakabona amafaranga.

Abantu bahuriye hamwe bari kubaka akarima k'igikoni, bambaye imyenda yiganjemo umutuku, icyatsi, ubururu, umweru ndetse n'umukara.

Pipiniyeri ikorerwamo ubuhinzi bw'ibihingwa bitandukanye bwifashishwa n'abantu kugira ngo babashe kwagura ubuhinzi bwabo ndetse bagire n'imbuto zigiye zitandukanye.

Ibigori ni igihingwa gitanga umusaruro iyo wagikoreye ibyangombwa ndetse ukagishyiraho ifumbire kiguha amafaranga mu gihe gitoya.

Kuvomera imyaka mu gihe cy'izuba ni byiza kuko bituma imyaka ikura neza kandi igatanga umusaruro mwinshi cyane.

Umusozi uriho urutoki ndetse uteyeho ishyamba, bigaragara ko ari ahantu hagaragara neza kandi hakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi bigiye bitandukanye.

Umusozi uteyeho ibiti byinshi ndetse uhingwaho ibihingwa by'amoko agiye atandukanye. Ni ahantu hari umuhanda mwiza w'igitaka, unyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye.

Umusozi ukorerwaho ubworozi bugiye butandukanye, ndetse n'ubuhinzi, aho abantu bakura ubwatsi bagashyira amatungo, ni ahantu ari heza, kandi hagaragara neza.

Umusozi uriho ibihingwa bigiye bitandukanye, uyu musozi kandi wubatseho amazu menshi asakaje amabati y'umutuku ndetse n'ay'umweru.

Umusozi urimo ibiti bitandukanye ndetse urimo amaterasi. Ni ahantu ubona ko ari heza, hagaragara neza abantu bashobora kwicara bakaganira.

Umusozi utuweho n'abantu benshi, uteyeho ibiti, urutoki, ndetse n'ibihingwa by'amoko agiye atandukanye.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, afashe inka bigaragara ko agiye kuyorora bityo bikazamuha amafaranga mu gihe kizaza.

Umugabo yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umweru, yambaye kandi inkweto z'umukara, ari kwita ku nka ndetse areba uko zimeze.

Ubworozi butandukanye bw'ihene ndetse n'inka, butanga amafaranga iyo witaye ku matungo neza, bityo bikagufasha gukemura ibibazo bigiye bitandukanye.

Inka nini y'ijigija, iri mu kiraro cyubakishije ibiti, n'inka ubona ko ari imbyeyi kandi ari nkuru.

Ubworozi bw'ingurube ni ubworozi butanga umusaruro vuba, iyo witaye ku ngurube yawe neza iguha amafaranga kandi bigatuma witeza imbere mu buryo butandukanye.

Ikiraro cyubakishije ibiti kirimo inka iryamye mo imbere, ni ikiraro gikomeye kandi ubona ko ari cyiza.

Ubworozi bw'ingurube butanga umusaruro vuba iyo wabukoze neza, ubu bworozi kandi butanga ifumbire yifashishwa mu buhinzi.

Ubworozi butanga umusaruro vuba, iyo woroye amatungo yawe neza aguha amafaranga bityo ukabasha gukemura ibibazo bigiye bitandukanye kandi vuba.

Ubworozi bw'inka ni ubworozi butanga umusaruro iyo wazitayeho, akenshi Abanyarwanda bavuga ko inka ari iy'agaciro kandi ifite umumaro mu muco Nyarwanda.

Inka ziri mu nyubako yubakishije ibiti. Ni inka nziza, ubona ko, zisa amabara y'umukara n'umweru.

Ubworozi bw'inkoko butanga amafaranga, iyo wabikoze bya kinyamwuga, ibi kandi bikagufasha kwiteza imbere no gukemura ibibazo bigiye bitandukanye umuntu ahura na byo.

Umugabo n'umugore bahagaze imbere y'amatungo yabo, aba bantu kandi bigaragara ko ari aborozi beza kuko babikora kinyamwuga bityo bikabafasha kwiteza imbere.

Ubworozi bw'amatungo ni ingirakamaro kubera ko butuma abaturage biteza imbere kandi bigakemura ibibazo byabo, bahura na byo mu buzima bwa buri munsi.

Inyanya ni igihingwa gitanga umusaruro iyo wagihinze neza ukagiha ifumbire ndetse ugatera n'imiti. Iki gihingwa kandi kifashishwa mu buzima bwa buri munsi abantu barimo guteka.

Abantu babiri bari gukora ubuhinzi bw'imbuto, umwe yambaye imyenda irimo amabara y'umukara undi yambaye iy'umutuku.

Ibirayi ni igihingwa gitanga umusaruro vuba. Ibirayi kandi abantu benshi bakunda kuvuga ko biryoha kandi bikaba bidahenda.

Igihingwa cy'ibishyimbo ni igihingwa cyiza gifasha abantu mubuzima bwabo bwa buri munsi, iki gihingwa kandi gifite intungamubiri zigiye zitandukanye, iyo umuntu adafite ibishyimbo aba yumva adafite ubuzima,

Umugabo uri kwita ku matungo ye areba ikibazo afite, ni umugabo wambaye ingofero y'umukara n'ikoti ryiza kandi uyu mugabo arishimye.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ishati y'umutuku. Hari ahantu hari ibikoresho bifashisha bapima abarwayi, kugira ngo bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze.

Inyubako nini yubakishije amatafari ahiye ndetse iruhande rwayo hari inkende ziri kuhagenda, iyi nyubako kandi ni inyubako nini cyane.